Abagore bicaye mu cyumba cyiberamo inama ndetse bose bakaba bicaye mu ntebe zo mu biro zifite ibara ry'umukara bahereye ku ruhande rw'ibumoso hari umugore wambaye marinete ndetse n'ikanzu irimo utuntu tw'utudomo imbere yabo hateretse amazi ,isakoshi na telefoni ndetse n'impapuro n'amakaramu, umugore wa kabiri.

Abantu bari mu nama bicaye mu ihema ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibendera ry'idarapo ry'u Rwanda, abo bantu barimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hateretse amazi ayo mazi akaba ateretse ku meza nayo itatse ibendera ry'idarapo ry'u Rwanda, imbere yabo hari umugore uhagaze ufite indangururamajwi usa nkaho ariwe uri kubagezaho ikiganiro.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo abantu bicaye, ku ruhande rw'ibumoso rutangira hari umugore wicaye wambaye ikanzu ya karokaro arimo arandika mu ikaye, yambaye amarinete ndetse yiteze akantu mu mutwe, ku ruhande rwo hirya hari umugabo ufite mudasobwa ku bibero bye akaba yambaye ikoti ry'umukara, ku ruhande rwo hirya hari undi mugabo wicaye wambaye ishati ya karokaro.

Abantu bicaye bari kureba inama bakaba barimo umukobwa wambaye umupira wi'icyatsi, afite imisatsi yumukara, afite ikaye n'ikaramuka akaba arimo kwandika, imbere hateretse agacupa k'amazi, akaba yicaranye n'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'umukara ufite umusatsi w'umukara.

Abantu barahagaze bameze nk'aho bavuye mu nama barimo barifotoza. Inyuma y'abo bantu hari inzu ifite ibirahuri ndetse mu muryango w'iyo nzu harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusaka abantu. Muri uwo muryango harimo umuntu umeze nk'aho arimo arawinjiramo.

Icyumba gikorerwamo inama, kirimo umugore wambaye ikoti ry'umutuku ndetse n'umugabo wambaye ikoti ryakarokaro, umugabo wambaye ishati y'umweru, baricaye kumeza hariho amazi, umugabo ari kureba hasi nkaho arimo areba muri terefone, inyuma yabo hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru.

Abantu baricaye bameze nk'aho bari mu nama cyangwa se barimo barahabwa imbwirwaruhame. Imbere yabo bantu, hari ibirahuri ndetse hari n'amacupa arimo amazi barimo baranyweramo; ndetse imbere y'abantu hari mudasobwa ndetse aba bantu bambaye amakoti ndetse n'amashati.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba bari kureba kunyerekanamashusho, hari ibyo barimo barakurikirana, harimo abana cumi na bane bambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'imikara, intebe nazo zisa n'umweru amarido nayo asa n'umweru.

Abantu bari mu cyumba kiri kuberamo inama, abo bantu bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu zo mu biro, imbere yabo hari imeza ifite amabara atukura ndetse kuri iyo meza harambitseho impapuro, amakayi ndetse n'amakaramu, hirya yabo hari amazi, ufite mikoro.

Abantu bari mu cyumba cy'inama ku murongo wa mbere hariho abagabo batatu, umwe yambaye ishati y'umweru, ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru, ikoti ry'umukara, ishati ya buresiyeri, imbere yabo, hari ibitabo, terefone, amakaye n'amazi, abagabo bose bambaye marineti.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu nama, hakaba n'abantu b'uruvunganzoka bari mu ngeri zitandukanye, abarimo abagabo abagore abakobwa n'abamama, ndetse hakaba harimo abambaye utuntu mu ijosi tw'icyatsiba hafi ya bose batwambaye.

Ahantu ku muhanda hashinze imitaka ibiri umwe w'umuhondo n'undi w'umutuku gusa uw'umuhonda uragaragaramo ibirango bya emutiyeni ndetse n'umuntu wicaye munsi yawo wambaye ijiri ya emutiyeni ndetse n'ishati ari guhereza umuntu serivise usa n'uwamugannye uri kumwaka serivise arimo aramuha telefone ngendanwa. Hakurya yaho haragaragara abandi bantu barimo baraganira mbese bari munsi y'umutaka w'umutuku.

Inama y'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, abicaye mu nama bari ku mpande zombi, impande yo hepfo ni impande ya ruguru, uyoboye inama ni umugabo wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu bwerururutse, ndetse iruhande rwo hepfo hari undi mugabo uyoboye inama wambaye ishati y'umweru.

Hejuru hari abantu bahagaze hameze nk'abavuye mu nama harimo abagore batatu ndetse umwe akaba ateruye umwana, abandi bose ni abagabo, munsi hari abicaye mu cyumba gikorwarwamo inama ndetse ku meza yabo hariho mudasobwa, telefoni, amazi ndetse n'ibindi, muri iyo nama hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo.

Abantu benshi bateraniye mu nama baricaye harimo abantu bicaye imbere hejuru bakaba n'abandi bicaye hasi bari gukurikira, imbere hicaye umugabo n'umugore umugabo yambaye ikoti' ry'umukara n'ipantaro y'umukara inyuma hari icyapa kinini cy'umweru cyaditseho amagambo y'ubururu.

Ku rubyiniro hari abagore babiri ndetse n'abagabo batatu kuruhande rwwibumoso hari umugabohicaye wambaye ishati yubururu ndetse n'ikarita mu ijosirangwariwe kuruhande rwiwe hateretse ibyo kuywa, ku rundi ruhande hariru umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse arahindukiye ari kureba ku ruruhande rw'iburyo, ku rundi ruhande hari umugore wicaye wambaye ikanzu; kuruhande rwe hateretse amazi, ku rurundi ruhande harirumu umugabo wambaye ipantaro yubururu ndetse mu ntoki ze afitemo indangururamajwi.

Abantu bicaye mu ihema ry'umweru rikaba ritatse amabaragize ibedera ry'u Rwanda, abo bantu barimo ingeri zitandukanye, abagabo ndetse n'abagore, ku murongo w'imbere ahereye ibumoso hari umugabo ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu afite telefoni mu ntoki, umukurikiye yambaye umupira wakarokaro ndetse n'ipantaro yakaki arimo rasuhuzwa n'umugore uhagaze, ku rundi ruhande hari abambaye impuzankano z'igihugu cy'u Rwanda z'abasirikare, ku rundi ruhande hari umugabo wambaye ikote ry'umukara.

Abantu babiri baricaye bameze nk'aho bari mu nama cyangwa se barimo barabwirwa imbwirwaruhame, muri abo bantu babiri harimo umumama umwe ndetse n'abagabo babiri, imbere y'abo bantu hateretse amazi, imbere y'umugabo umwe hateretse mudasobwa.

Abantu benshi baricaye bari gukurikirana amakuru bicaye mu ntebe z'umukara ndetse barimo n'abapolisi b'u rwanda bambaye impuzankano yabo babiri kuruhande rwabo hicaye umuntu kurundi ruhande hicaye umupapa wambaye ishati y'umweru.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye abenshi muri bo bakaba ari abagabo, duherye ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo wambaye ikote ry'ubururu na karuvate y'umukara ndetse n'ishati y'umweru, imbere y'abo bagabo bose hari amazi indangururamajwi ndetse n'ikayi zo kwandikamo, imeza iri imbere yabo ifite ibara ry'umutuku.

Abantu bahagaze bameze nk'abari mu nama ndetse ufite indangururamajwi ni umugabo yambaye imyenda y'imikara mikara, duhereye ku ruhande rw'ibumoso hari umugore wambaye igitenge ndetse ateze akantu mu mutwe k'umutuku, kurundi ruhande hari umuhungu wa umupira w'umweru ndetse n'ipantalo ya kahaki, kurundi ruhande ni umukobwa wambaye agapira k'umutuku afite agakapu k'umukara ndetse yambaye n'ipantaro ya kaki.

Abantu bicaye mu cyumba kiberamo inama ndetse abo abantu bagiye bakora ibintu bitandukanye harimo abagore n'abagabo mu bitabiriye inama, harimo umuzungu umwe wambaye ikoti ry'umukara ishati y'umweru, ndetse ku ruhande rwe hirya hari umugabo wambaye ikoti rya kacyi abo bose imbere yabo hateretse amazi ndetse n'ibirahuri.

Abakobwa baricaye ahantu bari kuganira bari kunywa amazi, bakaba bicaye ku meza iiriho igitambaro cy'umweru, imbere yabo hakaba hari amacupa y'amazi y'inyange ndetse n'amasahani y'umweru, bakaba bambaye imyenda y'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu nama aho hicaye abagabo babiri hakurikiraho umugabo n'umugore hagakurikiho abandi bagabo babiri bakaba bambaye amakoti y'ubururu bicaye ku ntebe z'umuhondo ndetse bakaba bafite agacupa k'amazi n'agacupa ka ji.

Inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, abitabiriye inama harimo: abasore, abagabo abagore ndetse n'abakobwa . Abitabiriye inama bose bambaye imiprira y'ubururu bwerurutse. Iyo nama isa nk'iyarangiye bari gufata ifoto y'urwibutso, akaba ari inama y'abantu bakina umukino wo kwirukanka yo muri bibiri na makumyabiri na kane.

Abantu baricaye bameze nk'aho bariri mu nama cyangwa se barimo guhabwa imbwirwaruhame aho bantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, muri abo bantu harimo umugabo uhagaze umeze nkaho harimo aratanga igitekerezo ndetse imbere y'abo bantu harimo umumama umeze nkaho ariwe ubahagarariye urikubahereza ikiganiro.

Abantu bari mu nama, imbere y'abo bantu hateretse amazi, ibitabo ndetse n'amakayi barimo bayandikamo ibyo babwiwe, aho hantu hari gukoreshwa uburyo bw'insakazamashusho kugira ngo bose babashe kubona imbere neza, imbere y'abo bantu hari ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umusore wambaye amarinete wicaye mu cyumba kiri kuberamo inama, uwo musore afite indangururamajwi. Uwo musore yambaye ikarita mu ijosi imuranga. Iruhande rw'iburyo hari umugabo uhari wambaye ishati ya karokaro ndetse n'amarinete. Ibumoso bw'iwe hari umugore wambaye ishati y'umweru ndetse n'amarinete. Imbere yabo hateretse amazi ndetse n'ibintu byo kwandikamo.

Abantu bari mu cyumba cy'inama mu nzu y'isima itatswe n'immyenda y'ibara ry'ubururu n'umuhondo hari n'umuntu imbere w'umuyobozi w'inama.

Abantu bicaye mu cyumba cyibera mo inama. Iyo nama ikaba yitabiriwe n' abantu bajyiye batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo. Ku ruhande rwo hepfo hiciye abantu batatu hari umugore umwe ndetse n'abagabo babiri, imbere yabo hari amazi ndetse n'ibyo kunywa bidasembuye, imbere yabo ndetse hari na telefoni ndetse n'amakaye yo kwandikamo, ku rundi ruhande hari abagabo bahicaye bageze kuri batanu ndetse nabo imbere yabo hari telefoni n'amazi.

Umugabo wambaye ikote ari gutanga ikiganiro mu nama yifashishije insakazamashusho. Muri iki cyumba bicayemo, harimo abagabo n'abagore. Imbere y'aba bantu, hari amacupa y'amazi. Ndetse imbere y'uyu mugabo, hari mudasobwa.

Abantu baricaye bameze nk'aho bari mu nama cyangwa se barimo barahabwa imbwirwaruhame. Aba bantu barishimye bameze nk'aho ibyo babwiwe byabashimishije. Aba bantu imbere yabo hateretse amazi ndetse n'ibitabo . Muri aba bantu harimo abamanitse intoki, bameze nk'aho bashaka gutanga ibitekerezo.

Abantu batatu bicaye mucyumba kiberamo inama babiri muri bo ni abagabo, umwe muri bo n'umugore, imbere yabo hateretse amazi ndetse n'amakayi yo kwandikamo, urimo hagati n'umugabo yambaye ishati y'umukara ndetse afite indangururamajwi, ku ruhande rw'ibumoso hari umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'icyatsi imbere y'iwe nawe hteretse amazi.

Abantu bicaye mucyumba cyiri kuberamo inama, aba bantu bose baricaye ndetse abenshi muri bo bambaye impira y'ubururu hagati yabo harimo umugabo wicaye wambaye impuzankano ya gisirikare y'u rwanda uwo mugabo afite telefone mu ntoki ndetse imbere yiwe hari imeza iriha indabo.

Abantu benshi bateraniye hamwe abantu bari mu ngeri zitandukanye harimo abamama, abapapa basaza n'abakecuru bamwe bicaye ku meza hamwe nabandi bagiye bicaye kayandi ,kumeze hari igitambaro cy'umukara buri wese bafite icupa ry'amazi imbere ye.

Icyumba kiberamo inama, icyo cyumba kikaba kicimo abantu batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, ku ruhande rw'iburyo hari umugabo uhicaye wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru ndetse n'amarinete, uyu mugabo imbere ye hari amazi, impapuro zo kwandikamo ndetse ku ruhande rwe hari mudasobwa, ku rundi ruhande hari umugore wambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umupira w'umutuku na we akaba yicaye, aba bantu bose bari kureba ku ruhande rwo hirya.

Umugabo w'umwirabura uhagaze uri mu cyumba kirimo abandi bantu bameze nk'abari mu nama ahagaze ameze nkaho hari ibintu ari kubwira abandi, iburyo bwiwe hari umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati ya buresiyeri, imbere yiwe hateretse impapuro, telefone ndetse n'amazi.

Abantu bicaye mu gisharagati, igicaragati gifite amabara agize ibendera ry'u Rwanda. Abantu bakaba bameze nk'abaje mu nama, ku murongo w'imbere hari abagore babiri. Umwe muri bo yambaye ikoti ry'umutuku ndetse n'imyenda y'imikara, yicaye ku ntebe yo mubiro. Iruhande rwe hari akameza k'umutuku kariho amazi, isakoshi, telefoni, amakayi ndetse n'amakaramu.

Icyumba cyo kuberamo inama kiba cyitabiri n'abantu ngeri zitandukanye mubiriye inama ku ruhande rw'iburyo harimeza yicayeho abagabo ndetse n'abagore uhereye iruhande rw'iburyo hari umugabo ikotite ndetse n'ikayata mu ijosi rifite iba ry'ubururu, n'uwo ariwe. Ku rundi ruhande umugore wambaye ikanzu y'igitenge ifite amabara asa n'umukara ndetse n'ikarita yerekana uwo ariwe, imbere ye hari ameza ariho amazi, telefone. amakaye ndetse n'amakaramu byo kwandikamo.

Abantu bari kuganira bicaye ku ntebe zitukura, imbere hari intebe iticayeho umuntu, hari umuntu hagati uhagaze hari umusore wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara ndetse inkweto z'umukara hari n'inkumi yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu bwijimye.

Abantu benshi bicaye mu nama aho bari kuganira ku iterambere ryaho, inzu bicayemo yubakishijwe ibikuta biteye irangi ry'umweru, ku meza yabo hari igitambaro kinini cyane gifite irange ry'umuhondo n'ibara ry'icyatsi.

Abagabo batatu bicaye bambaye imipira y'ubururu iriho ibendera ry'urwanda, barikureba kuruhande rw'ibumoso. Uwimbere yambaye amarinete ndetse arirabura abandi babiri b'inyuma, uw'ibumoso arimo araseka ndetse n'inzobe inyuba yabo hari umuntu wicaye wambaye umupira ufite ibara ry'iroze.

Abantu bicaye mu ihema bameze nk'abitabiriye inama, ku murongo w'imbere hari abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, umugore wo hagati yambaye ikanzu y'umukara irimo u turongogo tw'umweru, akambara amanete, imbere yaho hari ameza ifite ibara ry'umutuku ririho telefone ndetse n'amakaye.

Abahungu babiri baricaye. Bameze nk'aho bari mu nama, barakurikiye. Bafite amakayi n'amakaramu. Imbere yabo hateretse amazi ndetse n'ikawa. Inyuma yabo harimo harafatwa amafoto. Umuhungu umwe yambaye umupira w'ubururu, undi muhungu yambaye ishati ya kaki.

Abantu bicaye mu ntebe zo mu biro bameze nk'abari mu nama. Abo bantyu barimo ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo hariho ameze afite ibara ry'umutuku ndetse kuri ayo meza hariho indangururamajwi, amazi, amakaye ndetse n'amakaramu. Abo bagabo abenshi muri bo bambaye amakoti ndetse imbere yabo hari andi meza nayo arimo hagati.

Umugore n'umugabo bicaye ku mu ntebe zo mu biro, imbere yabo hateretse amazi, umugabo afite ikaramu ndetse na mudasobwa, umugore afite ikaramu n'impapuro ari kwandika mu ikaye, umugore yambaye ikanzu y'ubururu ndetse akabambara n'isaha, umugabo yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu bwerurutse.

Abantu bari mu cyumba cy'inama abitabiriye inama ni'geri zitandukanye, haririmo abagabo ndetse n'abagore. Kuhande rw'ibumoso hari umugore ufite indangururamajwi, ndetse imbere yateretse mudasobwa ku ruhandehande hari amazi hirya yiwe hari umugabo wambaye ikote ry'ishati yuubururu bwerurutse. kurundi ruhande hari umugore wambaye ikoti ry'umukara ndetse akaba yambaye n'ikarita mu ijosi irangagu uwo ari we.

Abantu bicaye bareba imbere bakurikiye inama hakaba harimo umumama wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, akaba yicaranye n'umupapa wambaye neza ikote, ikote n'ipantaro ku ruhande hakaba n'undi wambaye ikoti n'ipantaro by'umweru, inyuma yabo hakaba hari umuntu uri gufotora.

Abantu bicaye ku ntebe bameze nk'aho ari mu kiganiro, abo bantu ni abagore babiri ndetse na bagabo. Ku ruhande rw'iburyo hari umugore wambaye umupira w'umuhondo ijipo y'umukara, ndetse afite indangururamajwi arasutse yambaye na marinete. Kurundi ruhande hari umugabo wambaye ikoboyi y'ubururu ndetse n'ishati y'ubururu bwerurutse akaba afite ikayi mu ntoki.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo abagabo batatu ndetse n'abagore babiri, umugore umwe ara ahahagaze ni umwirabura undi ni umuzungu aricaye, ku meza hariho mudasobwa amazi ndetse n'amaterefone, umugore uhagaze ameze nkaho hari ibintu ari gusobanurira abandi bicaye.

Icyumba kiri kuberamo inama iyo nama ikaba irimo abagabo ndetse n'abagore, inyuma ku gikuta hari icyapa cyamamaza kikaba gifite ibara ry'ubururu. Ameza bicayeho akaba afite ibara ry'umutuku, ndetse buri muntu imbere yiwe hari indangururamajwi, ndetse afite n'aho kwandika ibyo bari kuvuga.

Abagabo bari hamwe bameze nk'abavuye mu nama, uhereye iburyo hari umugabo wambaye ikote rya kaki, hakurikikiraho umugabo wambaye imyenda isa, hagokira umugabo wambaye ikanzu, umugabo wambaye ikote umeze nk'aho ari umuyobozi wabo, ndetse n'undi mugabo wambaye ikanzu y'abayisiramu bafite n'ingofero y'umutuku, ku ruhande ruhera hari umugabo wambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'ipantaro ya kaki n'inkweto z'umukara.

Abanyeshuri bari mu nama bameze nk'aho barimo barahabwa imbyirwaruhame cyangwa se mu biganiro abanyeshuri b'abakobwa bambaye utwitero mu mutwe muri aba banyeshuri abenshi mu twitero twabo turimo turasa umweru abanyeshuri bambaye imipira y'icyatsi.

Abantu bicaye bameze nk'abari mu nama imbere yabo hari umugore uhagaze wambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'ishati ya karokaro umugore arasetse afite urupapuro mu ntoki ndetse ameze nk'aho ari kubasangiza ijambo imbere y'iwe, abitabiriye inama abenshi biganjemo abagore ndetse bose bicaye ku ntebe zikoze mu biti nyuma yaho hari bisi itwaye abagenzi.

Abantu baricaye bameze nk'abo bari mu nama cyangwa barimo barabwirwa inkikoruhame. Imbere y'abo bantu hateretse amazi ndetse na mudasobwa. Imbere y'abo bantu kandi hari insakazamajwi. Abagabo babiri bambaye amakoti, aba mama babiri bambaye amarinete.

Icyapa cyiza cyane cy'ubururu, kirimo amagambo y'ubururu n'ay'umweru, hakaba handitseho ngo "kwigaragaza ku bushake". Uyu munsi ni wo wa yuma wo kwigaragaza ku bushake ndetse hasi hakaba handitse ngo "garagaza imisoro utamenyekanishije mbere ya kabiri, kabiri, kabiri, zeru kabiri gatatu, ukurirweho amande n'inyungu z'ubukererwe".

Ikiganiro k'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, iki kiganiro kikaba kiri kunyura kuri radio Rwanda, ikiganiro kikaba gifite umutwe w'amagambo uvuga itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro, umusoro w'ipatante w' igihehembwe cya nyuma w'itariki ya mirongo itatu n'imwe, ukwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Inzu nziza cyane zigerekeranye kandi zikaba zegeranye, hakaba n'inzu y'umweru, kuruhande rwayo hakaba hari inzu y'umutuku, hakaba hari n'abandi bantu benshi bicaye imbere y'ayo mazu bahebwe kureba, hakaba hari n'ibiti by'icyatsi.

Umunara muremure cyane wubakishije ibyuma, hakoteye irangi igice cyo hasi ry'umutuku, hagati iry'umweru hakurya iry'umutuku hagaheruka iry'mweru, hakaba umunara munini cyane mu by'itumanaho, ku ruhanre rw'umunara harimo ibiti byiza cyane binini ndetse n'ibiti by'amashanyarazi.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye harimo inkweto, bakanafotora, bagatanga na serivise za banki ndetse bakanadekarara imisoro bakanatanga serivisi zo ku irembo iryo duka ricuruza umuriro, rigacuruza na serivise z'amazi zo kuri wasac.

Abagabo batatu bahagaze bambaye imipira y'ubururu umwe yambaye agapfukamunwa undi afite imvi z'umweru undi yambaye ingofero y'umukara imbere yabo hari igikapu cy'umukara gihari, ndetse imbere yabo hari umuhanda w'ibitaka, inyuma yabo hari umunara uhashinze utanga itumanaho,

Aho abagenzi bicara bari kuruhuka harimo abagenzi hubakishije ibyuma hariho n'intebe bicayeho mu muhanda harimo abantu bari kugenda hirya hari ikizu kinini cya etaje giteye amarangi y'umuhondo hejuru hariho n'ikigega.

Ikigo cy'ihugu gishinzwe amashyamba aho mu rurimi rw'ikizungu kizwi nka rwanda foresite otoriti intego y'iki kigo n'ukugira ngo babungabunge amashyamba akure neza ndetse babashe kuba bakumira ikintu gituma amashyamba adakura bityo amashyamba abasha gukura neza.

Ameza ariho mudasobwa enye zose zikaba zifunguye ayo meza akikijwe n'abantu basa nk'aho bari mu nama ndetse abantu barimo abagabo ndetse n'abagore umugabo wambaye ishati y'umweru umeze nk'uri kuvuga kuruhande rwe hari umu gabo wundi wambaye ingofero ndetse n'umupira.

Itangazo ry'ikigo gitanga serivisi zo kuri murandasi kizwi ku ku izina ry'irembo, iryo tangazo ri ravuga ngo intambwe ya kane kanda kuyisaba hanyuma ukurikize amabwiriza iryo tangazo riravuga ko ibisabwa agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda ndetse ikavuga ko usaba agomba kuba afite imyaka iri hejuru ya cumi n'umunani.

Itangazo rya minisiteri ifite abakozi mu nshingano zayo aho yifuriza abakozi bose umunsi mpuzamahanga w'abakozi mwiza, iryo tangazo riravuga ngo reka duteze imbere ubumenyi ndetse n'ibyo dukora kugira ngo twubake ejo hazaza heza, muri iryo tangazo harimo umugabo, umuganga ndetse n'umutetsi.

Itangazo ryo kwamamariza ikigo gikoresha serivisi kuri murandasi kizwi nk'irembo iryo tangazo rivuga ko bafunguye uburyo bushyashya aho bakwishyura serivisi zo muri laboratwari bifashisha mu ibirembo, umunsi hari uburyo wabona aho wabashaka guhamagara kuri mirongo ikenda icyenda n'ikenda

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gitanga serivisi zo kuri murandasi kizwi kw'izina ry'irembo. iryo tangazo rivuga yuko haje icyangombwa gishyashya nacyo kivuga ngo uburenganzira bwo kugera ku nkambi y'impunzi. icyangombwa kikaba gitangwa na minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ndetse bakavuga ko ushaka ubufasha wabahamagara kuri nimero yabo ayi yo ya zeru karindwi, mirongo icyenda , kabiri esheshatu ndetse na zeru imwe.

Itangazo ry'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, iryo tangazo riravuga ko ari ukwezi ko gushimira abasora rifite ubutumwa bugira ngo uruhare rw'imisoro mu iterambere ry'akarere ka Burera, iryo tangazo rikaba rizanyura ku maradiyo atandukanye harimo nka radiyo Rwanda ndetse n'ayandi.

Umugabo wicaye imbere ya mudasobwa yambaye umupira w'umukara uciyemo akarongo k'umweru ndetse n'umutuku, uwo mugabo arimo arakoresha mudasobwa, ku rundi ruhande hari umugabo wundi uhicaye wambaye ingofero y'umukara ndetse n'umupira uciyemo uturongo tw'umweru n'icyatsi, aba bagabo bose baricaye ndetse uwo wambaye ingofero y'umukara arimo arareba uwambaye umupira w'umukara.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara n'inkweto z'umweru. Bakaba bari mu cyumba kimwe bigiramo iby'ikoranabuhanga bakaba bafite mudasobwa buri umwe imbere yiwe, bakaba bicaye ku meza y'umuhondo.

Abantu baricaye bameze nkaho bari mu ishuri barimo bariga, imbere yabo bantu hateretse mudasobwa barimo barakoresha zibafasha mu kwiga, abantu bicaye imbere harimo umwana wambaye umupira w'umuhondo ndetse numukobwa wambaye agapira k'icyatsi.

Umusore aricaye mu biro ameze nkaho ari mu kazi, mbere yuwo musore hari mudasobwa arimo arakoresha, uwo musore yambaye ingofero ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, ndetse imbere y'uwo musore hari imashini isohora impapuro ndetse munsi yiyo mashini harimo agatebo bamenamo imyanda.

Itangazo ry'ikigo kigo gishinzwe ubwikorezi kizwi ku izina rya RURA, iryo tangazo riravuga ngo wakora iki mu gihe habaye guhita kwa gaze mu gihe habaye guhita kwa gaze cyangwa kuva uzabibwirwa n'impumuro ya gaze yihariye mucyo gihe ukora ibi bikurikira ikintu cya mbere mu mugihe utetse funga gaze cya kabiri mugihe utekeye mu nzu usoho icupa ryawe hanze y'inzu ahantu hari umwuka uhagije kandi ufungure inzugi n'amadirishya.

Itangazo rivuga ibyiza bya E-Waste Management mu Rwanda, iryo tangazo rivuga ko computer ibihumbi birindwi na mirongo itandatu zabashije kongera gukoreshwa zisubizwa mu mashuri, ndetse iryo tangazo rivuga ko E-Waste tone ibihumbi bitatu magana atandatu na cumi n'imwe zabashije gukusanywa.

Abagabo batatu bahagaze imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ndetse hari n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga mu bijyanye no gukusanya amakuru hakaba n'indi minanara miremire cyane ikoreshwa mu bintu by'itumanaho.

Itangazo rya Rwanda Reveni Otoriti rivuga ku bipimo by'umusoro w'ubutaka buriho inyubako, iryo tangazo riravuga ko zeru n'ibice bitanu ku ijana by'agaciro ku isoko ry'inyubako n'ak'ikibanza byagenewe guturwamo ndetsez'ibice bitatu ku ijana by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ak'ikikibanza, byagenewe ubucuruzi, zeru n'igice kimwe iby'agaciro ku isoko k'inyubako n'akikibanza byagenewe inganda inyubako n'ikibanza.

Itangazo ry'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rimenyesha ko itariki ntarengwa ari uyu munsi yo kumenyekanisha ukanishyura igihembwe cya kane k'ipatante, hasi hariho yuko wahamagara akanyenyeri magana inani urwego, cyangwa ugasura urubuga rwabo wa wa wa akadomo rara a akadomo govu akadomo rawa.

Abasore bicaye mu cyumba cy'ikoranabuhanga, ndetse imbere yabo buri wese afite mudasobwa arimo arayikoresha, abo basore buri wese yambaye utwuma mu matwi dutuma amajwi adasohoka, ku murongo w'imbere hari umusore wambaye umupira wo kwifubika ufite ibara ry'ivu ndetse n'ingofero y'umukara, ku rundi ruhande hari umusore wambaye na we ikoti ry'umukara, ndetse n'ingofero y'umweru, ku rundi ruhande hari umusore wambaye umupira w'umukara.

Itangazo ry'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda reveni otoriti, iryo tangazo riri gusobanura uburyo wahindura itagisi yawe amatangazo, avuga ko ubanza ugasura webusayite yabo yitwa daburiyu daburiyu daburiyu, doti govu, doti rwa ubundi ugakanda ahanditse geti pasiwadi.

Abantu bahagaze harimo uwambaye ikote rifite ibara ry'umukara n'ipantaro yumukara ishati yu'mweru ikanzu ifite ibara y'umukara ndetse n'ikote rifite ibara ry'ubururu ishati y'ubururu n'ipantaro ifite ibara ry'ivu bafite urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Igiti cy'amashanyarazi kiriho insinga eshatu kiri ku ruhande rw'inyubako y'umuturirwa igeretse amazu abiri hejuru, hakaba hari n'urupangu uruzitiro ruriho ibiti by'icyatsi n'abamotari bari kugenda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, nk'ibyo binyabiziga harimo moto ihetse umugenzi ,umugenzi akaba yambaye ingofero y'ubwirinzi ifite ibara ry'umuntu ,ku ruhande rw'ibumoso hari imodoka ifite ibara ry'umutuku nayo iri kugenda. Iruhande rw'iburyo hari imodoka ihaparitse ifite ibara ry'ubururu , inyuma yayo hari ipoto rihateye ritambutsa amashanyarazi ndetse ririho n'itara.

Icyuma cyabugenewe gitwaye amashanyarazi gikozwe mu cyuma gishinze mu butaka, ku kuruhande rwacyo bateyeye ubusitani ndetse hari n'ibiti, hepfo yacyo hari inzu hubatse ifite irangi ry'umweru ndetse ikaba isakaje amabati afite ibara ry'umutuku, hirya y'iyo nzu hari indi nzu nayo ifite amabati y'umuhondo.

Imodoka nini itwaye abagenzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, iri kugenda mu muhanda, ku ruhande rw'iburyo hari umugabo uri gutambuka wambaye imyenda y'umukara ndetse ari terefone, ku rundi ruhande hari ipoto riteye mu butaka riciyeho amashanyarazi ndetse rikaba rifite n'itara ryo mu muhanda, ku rundi ruhande hateye ibiti.

Ipoto rikozwe mu biti bishinze mu butaka ritambutse amashanyarazi ,ku kuruhande rw'iryi ipoto hari umuhungu uhagaze bamupira w'umutuku ipanta y'umukara n'ingofero y'umukara, ibumoso bw' iryo poto hari inzu itanga serivisi z'ubugororangingo, iburyo'iryo poto hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Amapoto abiri atambutse inga z'amashanyarazi akozwe muri beto ateye mu mbibizi z'umuhanda, amapoto ane adasa hari indabo z'umutuku ndetse n'ibiti irindi kote riteye hari icyapa ndetse n'ibiti inyuma y'amopoto hari umunara uhubatse ndetse imbere y'amapoto hari umuhanda.

Igiti cy'amashanyarazi, gifite itara hejuru, kikaba gifiteho n'imiyoboro itwara amashanyarazi, ku ruhande hakaba hari ikintu kiri kugaragaza imibare, icyenda karindwi zeru, ku ruhande hari igipanu n'ibiti byinshi.

Igice cy'umuhanda w'igitaka iruhande rwacyo hari umurima uhinzemo imyaka itandukanye, ushinzemo ipoto 'amashanyarazi ishamikiyeho imigozi itandukanye, imbere yaryo hari amazu atandukanye.

Ipoto rikozwe muri beto rishinze mu butaka, iburyo bwa kaburimbo ricaho isinga z’amashanyarazi ndetse ririho n' itara. Hirya y’iryo poroto ku kuruhande rw’iburyo hari insina, ndetse hari n’urukuta rwubakishijwe amabuye. Ibumoso bwi iryo poto hari abantu babiri, umugore n’umugabo bari kugenda mu muhanda.

Ipoto ikozwe mu giti itambutse amashanyarazi ishinzwe mu gitaka, iyo buto ikaba isize amavuta arinda imiswa, iyo poto iri imbibi z'umuhanda, ku ruhande rw'ibumoso hari inzira y'abanyamaguru ifite imbago zisize irange inyuma n'umukara, iruhande rw'iburyo hari ibiti biteye.

Amaduka acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, imbere yaya maduka haparitse imodoka ebyiri, imodoka imwe ifite ibara ry'umweru indi ifite ibara ry'umukara, imbere yaya maduka kandi haparitse abamotari kandi imbere yaya maduka hari abantu benshi, kuri aya maduka hamanitseho ibyapa bitandukanye by'ibintu bagiye bakora.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ebyiri zitwara abagenzi abicaye kuri izo moto, umwe muri bo yambaye igikapu gifite ibara rya shakora ndetse n'umupira w'icyatsi, akaba yambaye ingofero imurinda ifite ibara ry'umutuku, kurundi ruhande hari umunyamaguru wambaye ishati y'umutuku ndetse n'ingofero y'ubururu n'ipantaro y'umukara urimo aragenda, kurundi ruhande hari sitasiyo itanga peteroli ndetse hari n'umugore uri kugenda wambaye ikanzu y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uracamo ibinyabiziga bitandukanye harimo nka moto ndetse kurundi ruhande rw'iburyo hari ibyapa bigiye byamamaza kumuhanda. Ukomeje hirya hari umuhanda wundi winjiramo ndetse kuri urwo ruhande hateye ibiti hakaba n'umunyamaguru uri gutambuka.

Imodoka ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo iraparitse ,imbere y'iyo modoka hari igipangu hirya y'icyo gipangu hari amazu atuwemo inyuma y'iyo modoka hari idarapo ry'igihugu cy'u rwanda inyuma y'iryo rapo hari igiti cy'umukindo ndetse n'ifoto y'amashanyarazi.

Abamotari babiri bicaye kuri moto bari kugenda umwe muri bo ahetse umugenzi undi nta mugenzi ahetse, abamotari bose bambaye amajire y'umutuku, inyuma yabo hari umukobwa n'umugabo bari kwambuka umuhanda hirya yabo hari ipoto ricaho insinga z'amashanyarazi ndetse iryo poto rikaba ririho ikozwe muri beto, hirya yaho hari umutaka w'umuhondo wa emutiyene.

Ipoto y'amashanyarazi iteye mu butaka itambutsa umuriro iruhande rwayo rw'ibumoso hari icyapa cyerekana amerekeza iruhande rwo hepfo hariba indabyo ziteye zifite ibara ry'umuhondo hirya y'iryo poto hari inzu yubatse isakajwe amubati y'umutuku imbere yayo hateye ibiti ndetse n'inyuma yayo hateye ibiti.

Ipoto ikozwe muri beto ishinze mu butaka itambutsa amashanyarazi, hejuru ika ifitete ho itara ryo mu muhanda. Hirya yayo haririndi poto ndetse kuru ruhande rwayo hoteye ibiti. Hepfo yayo hari inzu y'ubwoko bwa etaje. Ika ifite amagorofa abiri, imbere yayo haparitse igikamyo ndetse n'abamotari.

Ipoto rishinze mu butaka zitambutsa amashanyarazi ndetse hakaba hacaho insinga nyinshi zitambutsa amashanyarazi, ku ruhande rwayo rwo hepfo hari irindi poto rishinze mu butaka rikaba ririho itara ryo mu muhanda, ku ruhande rwo hepfo hari amapoto ndetse n'amatara akomeje ari ku murongo umwe, ku rundi ruhande hateye ibiti.

Umugabo ari gutwara igare mu muhanda yambaye umupira utukura, ku ruhande hakaba hari igiti cy'amashanyarazi ndetse n'andi mazu menshi, imwe ifite amabati y'umukara, hakaba hari n'ibindi, n'inzira igenderwamo n'amazi.

Urugomero runini cyane rw'amashanyarazi rurimo ibyuma byinshi harimo ibyuyuma bihagaze, hamwe n'ibindi bigufi, hakaba hari, urugo rwubakishije amabuye, ku rundi ruhande hakaba hari urundi rugo ruzengurutswe n'ibyuma ikaba harimo imbuga y'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ukoreshwa n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Iruhande rw'uyu muhanda hari icyapa ndetse iruhande rw'icyapa hari umukingo wubakiwe iruhande rw'uwo mukingo hari igipoto kijyana amashanyarazi, iruhande rw'icyo gipoto hari igipangu ndetse icyo gipangu kikaba kiriho ibiti n'ibyatsi.

Inzu yo mu bwoko bwa etaje yubakishijwe amatafari ahiye, izengurukijwe n'amabati. Inyuma yayo hari ipoto rikoze mu biti ndetse rikaba ritambutsa insinga z'amashanyarazi. Ku ruhande rwayo hari igiti kihateye ndetse icyo giti kikaba kiri mu muhanda.

Inzu igeretswe irimo irubakwa, kuri iyo nzu hariho ibikwa byifashishwa n'abafundi kugira hubakwe, imbere y'iyo nzu na none hari inzu zarangijwe kubakwa, zibamo abantu, imbere y'izo nzu harimo ifoto ijyana amashanyarazi y'umuriro.

Ipoto rikozwe muri buto ishinze mu butaka rikaba ritambutsa amashanyarazi, iburyo bw'iryo poto hari umugore uri gutambuka wambaye ijipo y'umweru ndetse imbere y'iryo poto hari akazu kamute emutiyene gatangirwamo serivise, inyuma y'iryo poto hari inzu ya kadasiteri isakajwe amabati y'umutuku ndetse inyuma yaryo hateye ibiti.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gitwara umuriro kikana wubika kandi kigacamo n'insinga z'amashanyarazi giteye mu butaka ku ruhande rwacyo hateye ubusitani ndetse ku kurundi ruhande hari umuhanda ufite imbago zisize irangi ry'umweru n'umukara kuhande rwe hirya hateye ibiti ndetse icyo gikoresho kikaba ari amapoto abiri ari kumwe.

Igiti cy'amashanyarazi gikozwe mu isima kikaba gifite n'agasanduku k'umukara, ndetse hejuru hakaba hanyuraho umuyoboro w'amashanyarazi n'insinga z'umukara, gihagaze mu bindi biti bisanzwe by'icyatsi ndetse ku ruhande hakaba n'ikindi giti k'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo werekeza ku bitaro bya kaminuza ishami rya Butare, uwo muhanda ukaba urimo imodoka eshatu ziri kwinjira, ndetse imbere y'izo modoka hari bariyeri, ibyo bitaro bikaba bisakajwe amategura afite ibara rya shokora, ndetse bikaba bisize ibara ry'umuhondo

Igiti cy'umukindo giteye mu karima k'indabyo, indabyo z'icyatsi, igiti kirekire cyane kiri ku ruhande, ku ruhande hubatse amashuri, hari n'imodoka zihagaze ku ruhande.

Imodoka iri gusohoka mu gipangu cy'ibitaro bya muhima, mu karere ka Nyarugenge. Kuri ibyo bitaro hariho umugore wambaye ipantaro y'ubururu, ingofero y'ubururu, ndetse n'ishati y'umweru. Uwo mugore afite agapapuro k'umweru mu ntoki.

Inzu itunganya ibiryo ifite abakozi bambaye amataburiya by'umweru ndetse afite uburongo bw'umutuku, abakozi bayo bose bambaye udunozasuku mu mutwe ndetse n'dupfukamuwa tw'umukara, mu bakozi bayo harimo babiri b'abahungu ndetse n'umwe w'umugore, imbere y'abo bantu hari abantu batonze umurongo bameze nk'abaje gufata amafunguro.

Imodoka eshatu zihagaze ahantu hamwe ahantu h'umukara, zikaba ari imodoka zikoreshwa kwa muganga, hakaba n'indi modoka y'umukara, inyuma yaho hari inzu nziza igaragara nk'ibitaro. Inzu ifite amarangi y'umweru na'amabati y'ubururu hagati y'inzu n'amamodoka harimo ibiti binini cyane ahoku ruhande rwimodoka hari igikuta cy'ubururu.

Umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo werekeza ku bitaro bya kaminuza ishimi rya Butare, bino bitaro bisakajwe amategura asa umutuku, ndetse bikaba biteye irange ry'umuhondo. Imbere y'ibyo bitaro hari rutangira ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo uhahagaze.

Abantu bicaye kwa muganga aho bategereje kwakirwa, ku bikuta byo kwa muganga hateye irangi ry'umweru, inzugi zifite irangi ry'umuhondo ndetse hakaba hari n'amakaro y'umukara.

Inzu nziza cyane yubatse nk'ishuri, hakaba hari icyapa cy'umukara n'umweru, icy'umukara cyanditswe mu magambo y'umweru, hejuru hakaba hari ikindi cyapa cyanditseho umubare karindwi, bikaba bifite inzugi z'ibyuma, n'ibirahuri, aho ziteye amarangi, zubakishijwe n'amatafari.

Abantu bicaye ku ntebe harimo abagabo ndetse n'abagore bameze nk'abagiye kwa muganga, ku murongo w'inyuma hari umugore wambaye umupira afite icyatsi cye rurutse ndetse n'igitenge cy'umutuku, ku rundi ruhande hariho umugore wambaye umupira w'umukara ndetse n'akantu mu mutwe k'abayisiramu. Ku ruhande rwo hepfo hari umugore w'undi uhetse umwana ndetse akaba ya mutwikirije akantuga gafite ibara ry'umweru.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Umuntu mwiza cyane ubyibushye wambaye amataratara akaba yambaye ikoti ry'umutuku afite imisatsi y'umukara yambaye ingofero y'umukara umurongo w'umuhondo inyuma ye hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Abantu baricaye bameze nk'aho bari mu nama cyangwa se barimo barabwirwa imbwirwaruhame; imbere y'abo bantu hateretse amazi ndetse imbere y'abo bantu hateretse za mudasobwa, umugabo uri imbere yambaye amadarubindi ndetse yambaye n'ikoti na karuvati.

Umugore wicaye ntebe mu biro ifite ibara by'umukara, uwo mugore yambaye ikoti ry'amaboko maremare rifite ibara ry'ubururu, uwo mugore yambaye ikanzu y'akarokaro ifite utudomo tw'umweru n'umukara, mu ijosi yambaye amakufe ndetse n'amaherena, imbere yuwe hari imeza iriho amazi ndetse na ji, ku ruhande hari ikirahure ndetse n'amakayi n'amakaramu byo kwandikaho.

Abagororwa benshi cyane b'abagabo bambaye imyenda move bakaba bari kugenda iruhande rw'urugo runini cyane urugo rufite umuryango w'umutuku hakaba harimo n'abagororwa bagiye bafite amasuka n'ibindi bikoresho.

Urubuga rw'Irembo rukoreshwa n'abaturage kugira ngo bakoreshe serivisi za leta harimo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa ku mpapuro cyangwa kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo gikorerwa kuri mudasobwa .

Umugabo uhahagaze imbere y'igikuta inyuma hari igikuta cy'umweru, akaba yambaye ingofero yumukara iciyemo umumurongo w'umuhondo, yambaye n'amataratara, wumukara wambaye ikoti ry'umutuku n'ishati y'umweru.

Ni abagabo babiri b'ibisore bakuze cyane, bambaye amakoti y'umukara, umwe yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umutuku, yambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'ubururu, bahagararanye n'abandi bagabo babiri bashinzwe kubarindira umutekano.

Abagabo babiri ubona ara abagabo bashiguye hari umwe umubyibushye wambaye amataratara hakaba undi nawe uri hakurya bakaba bafashe inkoni, inkoni nini cyane ku ruhande rwa hari umuntu wafasheshije idangurura ,abagabo bambaye amakanzu y'umukara n'amashati y'umweru.

Abahagaze ku murongo bambaye imyenda isa hasi no hejuru ifite ibara ry'iroza ndetse n'udumfukamunwa ni imfungwa n'abagororwa, ku ruhande rw'ibumoso hari abandi bambaye impuzankano z'abashinzwe kurinda imfungwa n'abagororwa, ku rundi ruhande hari imodoka igendamo imfugwa n'abagorerwa ndetse n'abashinzwe kurinda imfungwa n'abagororwa.

Umugabo wambaye impuzankano ya polisi y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'ijire yerekana ko ashinzwe umutekano mu muhanda, uwo mugabo ari kureba ku ruhande rw'iburyo, ku ruhande rw'ibumoso hari abanyamaguru bari gutambuka ndetse imbere yiwe hari inzu yo mu bwoko bwa etaje, ikaba ifite amagorofa ageze muri atanu.

Abamotari batwaye abagenzi, abamotari bambaye ingofero z'ubwirinzi zirimo umutuku ndetse n'iz'icyatsi ndetse n'abagenzi bambaye ingofero z'ubwirinzi, imbere yabo hahagaze umupolisi umeze nk'aho arimo arabasobanurira amategeko n'amabwiriza y'umuhanda, hirya y'umupolisi hari imodoka ihaparitse.

Inzu polisi y'u Rwanda ikoreramo iri ku Muhima aho bakorera ibizamini byo gutwara imodoka imbere yayo haparitse amamodoka menshi hari imodoka y'umukara n'izindi z'umweru imbere y'inzu hari abantu benshi bahagaze bategereje kwakira.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu bwijimye harimo n'utubara twicyatsi hariho ijambo ryanditseho polisi, ahagaze mu muhanda urimo aba motari abagenzi basanzwe ndetse imbere ye hari icyapa cyanditseho sitopu.

Umusore wambaye impuzankano za Polisi y'Igihugu y'u Randa, ahagaze imbere y'imodoka iparitse ahantu hubatse amapave, ari kuvugana n'umuntu wicaye muri iyo modoka, inyuma y'iyo modoka hari inzu yo mu bwoko bwa etaje, ikaba ifite amagorofa menshi, buri gorolfa rikaba risize ibara ry'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu mu muhanda harimo abamotari benshi benshi cyane bahagaze ahantu abagenzi bambukira n'abantu b'apolisi bahagaritse ama moto kugirango ngo batange inzira ku bantu bambuke kuruhande hari amamoto n'imodoka bihagaze.

Umugabo w'umwirabura wambaye inifomo za polisi y'u Rwanda, yambaye ingofero y'umukara ndetse n'inifomu y'umukara uwo mugabo yambaye ijiri ya polisi y'u Rwanda ishami ryo mumuhanda, afite iyi mashini ndetse afite na perime ari kureba niba iyo perime yujeje ibyangombwa, imbere ye hari imodoka ifite ibara ry'umukara.

Imodoka y'abapolisi, iri mu mbuga ngari yubatswe n'amapave iri imbere y'inzu y'amagorofa agera kuri atanu.

Umuhanda ukoze neza hagati harimo umurongo w'umweru wihese, umuntu uri ku kinyabiziga cy'ikinyamitende n'undi uhagaze mu kayira k'abanyamaguru mu mpande zawo hari amazu ahakikije n'ibyuma birebire biriho insinga z'amashanyarazi nyinshi.

Abapolisi babiri bagana inifomo za polisi y'igihugu y'u Rwanda umwe muri bo yambaje ya polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda, abapolisi bahagaze ku muhanda inyuma yabo hari akazu abagenzi bahagarara bategereje bisi nyuma y'ako kazu hari igipangu ndetse ku ruhande rwa hirya hari igiti.

Umuhanda wa kaburimbo cyangwa se w'umukara uri gukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ni amagare abiri ahetse abagenzi ikindi nii ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru cyangwa se ikamyo kikoreye inyuma imizigo bashumikishije itente cyangwa se igitambaro cy'ubururu.

Umugabo uhagaze wambaye impuzankano ya polisi y'igihugu y'u Rwanda ndetse n'ingofero. Azamuye ukuboko kw'iburyo ameze nk'aho arimo akoresha ikizamini gitwara ibinyabiziga, umuhungu wicaye kuri moto wambaye ingofero y'ubwirinzi ifite ibara ry'umutuku. Bari mu muhanda y'ibitaka ndetse ku ruhande hari imodoka ya polisi.

Igikoresho kizimya umuriro kikaba gifite ibara ry' umutuku. Iki gikoresho kikaba kirimo ibikoresho bizimya umuriro bigizwe n'amazi. Iki gikoresho kikaba gifite umupira ucamo ibizimya umuriro. Ku ruhande hari ibikarito bifite ibara rya kaki ndetse iki gikoresho kizimya umuriro kikaba giteretse hasi.

ku rubyiniro hari umukandida w'ishyaka rya efuperi Nyakubahwa pereziga wa repubulika polo kagame. Yambaye umupira w'umweru w'amaboko maramare ndetse n'ingofero y'umukara, ibumoso bwe hari umugabo uhahagaze wambaye imyenda, ya polisi y'igihugu y'u Rwanda hejuru yabo hari ibendera rya efuperi inkotanyi.

Umugabo uhagaze wirabura akaba yambaye ishati nziza cyane y'umweru irimo uturongo tw'umukara ndetse akaba afashe n'indangururamajwi inyuma yiwe hakaba hahagaze abandi bagabo babiri bambaye ishati n'amasengeri y'umukara.

Umukuru w'igihugu nyakubahwa perezida Paul Kagame ari mu nama iburyo bwe hari minisitiri w'intebe nyakubahwa Eduard Ngirente, iburyo bwe hari madamu Jeannette Kagame umufasha wa perezida Paul Kagame, perezida Paul Kagamekwe ukuboko kwe kw'iburyo gufashe igikombe cy'ikawa mu ntoki.

Umugore wambaye ikanzu y'umweru utambuka asuhuza abantu, yahoze ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda bamwitaga Uwiringiyimana Agathe; akaba yaritabye imana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, muri mirongo icyenda na kane. Ku ruhande rwiwe hari abamurinda, harimo uwambaye imyenda y'ivu ndetse n'ingofero y'umutuku.

Umugore aricaye ku ntebe y'umukara ameze nk'aho arimo aganiriza itangazamakuru, imbere y'uyu mugore hari insakazamajwi z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, uyu mugore akaba afite igitabo, hirya y'uyu mugore hariho idarapo ndetse uyu mugore akaba yambaye amaherena.

Abagabo bane bicaye bari kureba imbere bari gukurikira inama bafite n'ututurangururiramajwi imbere yabo bakaba bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza y'umuhondo nyuma yabo hakaba hari amabara y'umutuku.

ufite ijambo ni umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u rwanda nyakuba hwa presida wa repubulika paul kagame yambaye karuvati y'umukara ishati'imbeho ndetse n'ikoti ry'umukara imbere ye hateretse i meza bavugiraho ijambo ndetse n'indangururamajwi ahagaze muri stade ndetse akikijwe n'abandi bantu

Abantu bameze nkaho bari mu gikorwa cy'amatora, muri abo bantu harimo umugabo uri imbere wambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru urimo urashyira urupapuro rwe rw'itora ahabugenewe, inyuma y'uwo mugabo hari undi mugabo ufite igitabo mu ntoki ndetse inyuma y'uwo mugabo ufite igitabo mu ntoki hari umugore wambaye ikoti ry'umweru.

Abantu babarizwa mu ishyaka ryita ku bidukikije aho mu rurimi rw'ikizungu rifite izina rya Green party; barahagaze ndetse abandi baricaye barimo baratanga ibiganiro, muri abo bantu imbere yabo hateretse amacupa y'amazi, ndetse imbere y'aba bantu hateretse ibitabo.

Abantu bahagaze mu nama imbere y'abantu barimo bararahira, bafashe amabendera y'igihugu cy'u Rwanda ibendera riri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, hakaba harimo n'inyenyeri, iruhande rwabo hari abantu bicaye bari kumvamva indahiro zabo.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda akaba ahahagaze imbere y'abaturage arimo arabaganiriza, yambaye umupira w'umweru urimo imirongo y'umutuku n'ubururu, ahahagaze impande y'igiti kiriho ikirango cy'umuryango uri ku butegetsi mu Rwanda.

Abantu bahagaze mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda, bakaba bafashe ku mabendera bameze nk'abari kurahirira inshingano nshyashya bahawe. Muri abo bantu bose bari kurahira bose ni abagore, uhereye ku ruhande rw'ibumoso hari uwambaye imikenyero ndetse n'amarinete, ukurikiyeho yambaye imikenyero na we n'agapira k'ubururu ndetse n'umukenyero wa karokaro urimo ibintu by'umuhondo. Ukurikiyeho yambaye nk'abayisilamu ndetse n'umupira ufite ibara ry'ivu na we afashe ku ibendera arimo ararahira.

Abantu bameze nk'abari kubyina, ndetse aba bantu bose ni abanyamuryango w'ishyaka rya FPR inkotanyi, aba bantu bose mu ntoki zabo bafitemo amabendera agize ishyaka rya FPR inkotanyi, ku murongo w'imbere hari umugabo wambaye ishati y'umweru umeze nk'aho ari we muyobozi wabo, ndetse n'ingofero y'umukara, uwo mugabo na we arimo arabyina.

Umuntu yambaye imyenda myiza, ikanzu y'umutuku, ikoti ry'icyatsi ari gusinya impapuro nk'uko bigaragara, aho barimo baranamufotora, ahagararanye n'abandi bagabo babiri nabo bambaye amakoti, ubona bameze neza.

Abagabo ndetse n'abagore baganira bameze nkaho bavuye mu nama, abo bagabo bafite ibitabo ndetse n'impapuro mu ntoki, abagore bafite udukapu mu ntoki muri aba bagabo harimo abagabo batatu ndetse n'abagore babiri abo bagabo bambaye amakoti.

Inteko nshingamategeko y'igihugu cy'u Rwanda umutwe w'abasenateri, iyo nteko ikaba igizwe n'abagore ndetse n'abagabo, abagore bose bambaye imikenyero ya kinyarwanda, abagabo barimo bose bambaye amakoti, hagati yabo hari umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame.

Ku rubyiniro hariho umugore wambaye ingofero y'umweru, amarinete ndetse n'umupira w'umukara mu ntoki ziwe afitemo ibendera rya efuperi, inyuma ye hari icyapa kivuga ngo tora Paul Kagame twubaka u Rwanda twifuza, hasi hari ibendera rya efuperi ndetse ku ruhande rw'iburyo hari ifoto y'umukandida.

Imodoka itwara imizigo ifite ibara ry'umutuku iri mu bwoko bw'igikamyo mu muhanda wa kaburimbo irimo kugenda, iyo modoka ikaba itwaye imizigo, imizigo itwikirijwe shitingi ifite ibara ry'ubururu, iruhande rwo hepfo yateye ibiti ndetse hari umuhanda ucamo abanyamaguru kuruhande rwa ruguru ni mu nzira y'abanyamaguru ndetse hari n'inzira itwara amazi izwi ku izina rya ruhurura.

Ikibuga cyahariwe guparika imodokadoka zigiye zitandukanye izi modoka akaba ariho abagenzi bazisanga kuruhande rw'ibumoso harimo imodoka ebyiri zapari zingukaini bunini bwa bisi zitwara abagenzi zikaba zifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hirya hari abanyamaguru bari kugenda harimo nk'umuhungu wavuye imipira yumutuku ndetsepaligwaboye yakomejepfo gato indi modoka nini itwara abagenzi ifite i ibayo umwe ndetse ku ruhande hari akamozu kicagamo n'abagenzi.

Umuhanda ubatswe mu mapave ndetse ku ruhande rwo hepfo hakaba hari ahantu hagenewe gaparika bamotari, abamotari baparitse abenshi muri bo bambaye amajire ndetse afite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, abenshi muri bicaye kuri moto zabo ndetse izo moto zikaba zifite ibara ry'umutuku ku rundi ruhande rwo hirya hantu haparitse imodoka ndetse n'abandi bagenzi, imbere y'abantu hari imodoka ifite ibara ry'umweru nayo iri kugenda.

Imodoka y'ubwikorezi ifite ibara ry'umweru irimo iragenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya y'iyo modoka hari umuhanda w'abanyamaguru hirya y'umuhanda w'abanyamaguru, hari ibiti bihateye na ndetse bisa icyatsi.

Iyi imodokadoka nziza cyane itwara imizigo ikaba ifite ibikoresho bakoresha mu gikoni bagiye guteka, iba iteye irangi ry'umweru, igice cy'imbere kikaba gifite irangi ry'ubururu, iruhande rw'umuhanda iri kugendamo hateye ibiti byinshi birebire.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'umweru, irikumanuka mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'iburyo hari izindi modoka aho iyimbere ari imodoka ya busi ifite ibara ry'ubururu itwara abagenzi, inyuma hari imodoka ifite ibara ry'umukara nazo ziri kuzamuka, k'uruhande rwo hepfo hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo moto, imodoka, ndetse n'ibikamyo. Ku ruhande rwo hepfo hari inzira y'abanyamaguru ndetse no kuruhande rwa ruguru hari inzira y'abanyamaguru. Mu nzira y'abanyamaguru kuruhande rw'iburyo hari umugabo uri kugendambaye ipantaro y'ubururu inkweto z'ubururu ndetse n'ishati ya karo karo, mumuhanda harimo abamotari harimo benshi bambaye amajiri y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Inzira y'abanyamaguru yubatswe mu mapave harimo abagenzi bagiye batandukanye bari kugenda kuruhande rw'ibumoso hari umugabo utwaye igare wambaye ishati y'umutuku wiciye mu turongo n'ipanaro y'ikoboyi inyuma yiwe hari umugore ufite igitenge ndetse imbere hari umuntu wambaye ibintu by'umukara kuruhande rwe hirya hari umuhanda uri gucibwamo n'imodoka ndetse n'igikamyo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo igikamyo gifite ibara ry'umutuku, kikaba gitwaye imizigo, uruhande rwacyo rwo hepfondi ikayo gutambuka ifite igikontineri gifite ibara rya shokora, kuruhande rwo hepfo hari inzira y'abanyamaguru ndetse hepfo hateye ibiti kuruhande rwa ruguru hari inzira y'abanyamaguru ndetse hari n'ahantu amazi aca munsi ari ruhurura.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara, umuhanda ushaje uri kugendamo imodoka y'ubururu na moto itwaye umugenzi. Ku ruhande rwayo hari ahantu hari uruzitiro rw'icyatsi. Imbere harimo ibiti, ibyatsi birebire cyane, ku ruhande rw'umuhanda ubundi hari inzira y'abagenzi yubakishijwe amabuye.

Umuhanda wa kaburimbo muri uyu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka zifashishwa mu gutwara imizigo ndetse n'izifashishwa gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iruhande rw'imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo, harimo umunyamaguru urimo uratambuka. Hirya nanone y'imodoka zifashishwa mu gutwara abantu rusange hari ibiti ndetse n'amashyamba.

Imodoka iri mu bwoko bw' ikamyo itwara imizigo, ikaba ifite ibara ry'umweru. Iri mu muhanda wa kaburimbo iri kugenda. Umuhanda wa kaburimbo uri kumanuka. Iyo kamyo ikaba itwikirije shitingi ifite ibara ry'ubururu ndetse n'imigozi y'imyeru ihambiriye iyo shitingi. Uwo muhanda wa kaburimbo ukaba ufite imbago zifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara ndetse ku ruhande rwa ruguru, hakaba hari inzira y'abanyamaguru.

Imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru, ikaba irimo abagenzi iri ku muhanda wa kaburimbo iri kugenda. Ku ruhande rwo hepfo hateye ibiti ndetse ku kurundi ruhande hari inzira y'abanyamaguru. Ku ruhande rwa ruguru hari inzira y'abanyamaguru ndetse hari ruhurura itwara amazi, iyo ruhurura ikaba ifite igikuta cyubakishijwe amatafari. Uyu ni umuhanda wa kaburimbo harimo ndetse na moto iri kugenda, iyo moto ikaba fite ibara ry'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo harimo abamotari babiri ndetse n'umunyonzi umwe; umumotari w'imbere yambaye ingofero y'ubwirinzi ifite ibara ry'umutuku, yambaye hejuru ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, umumotari w'inyuma yambaye ingofero y'ubwirinzi ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ijere y'umuhondo n'ubururu. Ku ruhande rwo hepfo hateye ibiti ndetse haparitse amakamyo. Ku ruhande rwa ruguru hari ruhurura itwara amazi.

Inzira y'abanyamaguru harimo umugore wambaye ikanzu y'igitenge, ufite isakoshi ndetse witeze agatambaro mu matwe, ibumoso bw'iyo nzira hari moto zitwara imizigo zifite ibara ry'ubururu, moto iri imbere hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi undi yambaye ishati.

Imodoka ntoya itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi iri ku muhanda wa kaburimbo iri kugenda. Inyuma yayo hari indi mo nini itwara abagenzi, ifite ibara ry'ubururu nayo iri kugenda. Iruhande rwayo rw'ibumoso, hari abahungu babiri bahagaze umwe wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara, undi yahetse agakapu mu mugongo.

Ahantu imodoka zihagarara hakaba hahagaze imodoka nini cyane imodoka y'ubururu n'umweru kuruhande rwayo hahagaze umuntu wambaye ikanzu y'umukara n'akandi gatambaro mu mutwe kuruhande rwe hari abandi bantu bicaye bategereje imodoka.

Umusore wambaye ingofero umupira w'umutuku w'amaboko maremare ndetse n'ipantaro ari ku igare atwaye imizigo. Imizigo atwaye haririmo umufuka w'umweru, umufuka w'umuhondo ndetse n'umufuka wa kaki, uwo musore ari mu muhanda wa kaburimbo ari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo n'ibinyabiziga, umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo moto iriho umumotari umwe ndetse n'umugenzi. Uyu muhanda kandi urimo igare ripakiye imizigo muri iyo mizigo harimo umufuka w'umweru ndetse n'uw'umuhondo, ibumoso bw'uyu muhanda hari inzira y'abanyamaguru.

Umushoferi utwaye ikinyabiziga cy'amapine abiri, ahetse n'umugenzi, umugenzi yambaye ingofero isa n'umutuku, bari kugenda mu muhanda w'umukara, impande hari urugo ruzengurutswe n'amabara y'umweru.

Imodoka ifite ibara ry'ubururu, iri mu muhanda wa kabiririmbo iri kugenda. kurundi ruhande hari abamotari batatu nabo bo babatse abagenzi bari kugenda, abamotari bose bambaye amajire y'umuhontu ndetse n'ubururu bari kuri moto bari kugenda, ndetse umwe umwe muri bo yambaye ingofero imukingira ifite ibara ry'umuhondo undi yambaye umukingira ifite ry umutuku. Ku ruhande rwo hepfo harimo itwara imizigo ifite ibara ry'umweru, ku rundi ruhande hari inzira y'abanyamaguru.

Imodoka y'umuka rw'ikamyo itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ihetse imizigo iri ikomanuka muhanda nda wa kaburimbo. Iburyo bw'iyo modoka hari inzira y'abanyamaguru harimo umugabo uri kumanuka wambaye ijere yanditseho karame Rwanda ndetse yambaye inkwete z'umukara.

Akamodoka gato k'ubururu kanditseho amagambo yu'mweru, kari kugenda mu muhanda w'umukara, imbere yako hari imodoka nini y'umutuku ifite amapine y'imukara, ku ruhande rwaho hakaba hari inzu ikirimo kubakwa, inzu ikirimo kubakwa.

Umugabo wambaye umupira ndetse n'ipantaro ufite agakapu mu ntoki kugenda mu muhanda wa mapave, Imbere yiwe hari gare iparikwamo imodoka zitwara abagenzi ndetse umurizo modoka zikaba zifite amabara atandukanye harimo zifite amara y'umweru n'ubururu, umweru n'icyatsi hari izifite amabara y'umweru n'umukara, imbere yiwe hari ipoto ndetse n'ubusitani.

Imodoka nini yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'umutuku iri mu muhanda wa kaburimbo iri kugenda. Kuhande rw'iburyo hepfo hateye ibiti ku ruhande rwa ruguru hari ikiraro cyambutsa abantu kibavana mu muhanda ndetse munsi y'icyo kiraro hari ruhurura itwara amazi iyavana mu muhanda iyatwara mu zindi nce.

Ibimodoka binini bihagaze ahantu biparitse, kimwe gifite ibara ry'ubururu bwijimye n'amatara y'umutuku, ku ruhande ikindi kimodoka kinini gifite amabara y'umweru n'ubururu n'ibirahuri by'umukara.

Imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'umweru iri muri kaburimbo iri kugenda, iyo kaburimbo irimo imirongo y'imyeru ndetse ku ruhande ifite imbago zisize ibara ry'umweru n'umukara, inyuma y'iyo modoka hari abamotari batatu ndetse umwe muri bo yambaye ingofero imurinda ifite ibara ry'umuhondo, abamotari bose bambaye amajiri y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Imodoka yobwoko bwa toyota ifite ibara ry'umweru iparisa muri kaburimbo imbere yayo hari imodoka y'ubwoko bw'igikamyo gifite ibara ry'ubururu, n'iparitse muri kaburimbo, imodoka ya toyota ifite ibara ry'umweru ifite purake, eri abe ijana na mirongo itandatu na karindwi se.

Imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru, iyo modoka irikugenda umuhanda wa kaburimbo ndetse iruhande rwayo hari undi umuhungu uhari ucuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo; nka marinete ndetse n'igikoresho babikamo amafaranga, umuhungu yambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, inyuma ye hari umugabo uhagaze uhetse igikapu cya shokora ndetse wambaye ingofero ya shokora.

Imodoka nini cyane itwara imizigo; ikaba ifite shitingi y'umukara, ikaba ihambirijwe n'imigozi, imodoka ifite ibara ry'umweru iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hari kugenda umunyonzi utwaye igare afite n'umufuka ku igare.

Moto itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu iri mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwayo rw'iburyo hari umugabo uri gutambuka wambaye isaha ku kuboko kw'imoso, hirya yabo hari abantu bari gupakurura imizigo mu modoka ifite ibara ry'umweru, abagabo bane harimo uwambaye isarubeti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto zirimo ziragenda, kurizo moto hicayeho abamotari bambaye amajiri y'ubururu ndetse n'umuhondo. Abo bamotari bambaye ingofero z'ubwirinzi, iruhande rw'uyu muhanda hari inzira y'abanyamaguru ndetse ibumoso bw'uyu muhanda hari inzu z'ubucuruzi ndetse haparitseho n'imodoka.

Imodoka nini itwara imizigo iri mu bwoko bw'igikamyo, ika ifite ibara ry'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo iri kugenda. Iyo modoka itwikirije shitingi harimo ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'icyatsi cyererutse. Iyi modoka iri mu muhanda wa kaburimbo ndetse iruhande rwa ruguru hari ruhura itwara amazi iyavana hamwe iyajyana ahandi.

Umuntu utwaye umugenzi ku kinyabiziga kizwi ku izina rya moto. Iruhande rwe hari ruhurura, ndetse iruhande rwe rw'iburyo hari indabyo. Ari mu muhanda, uyu muntu yambaye ingofero, izwi ku izina rya kasike mu rurimi rw'ikinyamahanga, y'umutuku.

Umuhanda nyabagendwa uparitsemo imodoka ifite amarange y'ubururu, umweru, umuhondo, icyatsi ndetse n'ibara ry'umukara. Ku ruhande rw'ibumoso hari itara ryo ku muhanda ndetse n'ibiti, ku ruhande rw'iburyo, hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro.

Abanyonzi batatu bari kugenda mu muhanda kaburimbo, abanyonzi babiri bari kugenda mu cyerekezo kimwe n'undi umwe kugenda mu kindi, muri uyu muhanda hari kugendamo n'izindi modoka aho isa n'umweru indi ikaba iri imbere yayo ni ikimu kinini.

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi, itwara abagenzi, ifite ibara ry'umweru iri muhanda wa kaburimbo kugenda, hepfo y'imodoka hari abamotari batwaye abagenzi, abamotari n'abagenzi bambaye ingofero z'ubwirinzi, zifite ibara ry'umutuku, hepfo yu yabo bamotari hari umuhanda wabanyamaguru, urimo umugabo wambaye ishati yubururu bwerurutse uri kumanuka.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo ufite umurongo ku ruhande, ukaba ufite n'umurongo w'umuhondo hagati, hakaba hari kugendamo imodoka ebyiri, iy'imbere y'umweru, hakaba n'indi iyiri inyuma y'umutuku, ku ruhande rwe hari ibiti byiza cyane by'imikindo ndetse n'abamotari.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ifite ibara ry'umweru iri kumanuka mu muhanda wa kaburimbo, ibumoso bw'iyo modoka hari ruhurura itwara amazi, iburyo bwi'yo modoka hari imodoka y'umukara iri kumanuka muri uwo muhanda, hepfo y'imodoka hari imodoka n'imifuka y'imihondo irimo irapakururwa.

Umuhanda wa kaburimbo harimo ibibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo abamotari babiri ndetse buri mu motari ahetse umugenzi, abamotari bombi bambaye amajire afite ibara ry'umuhodo ndetse n'ubururu, abamotari bombi bambaye ingofero z'ubwirinzi zitukura, ku ruhande rwo hepfo hari imodoka itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru ukomeje hepfo hakaba hateye ubusitani.

Imodoka itwarire imizigo ifite ibara ry'umweru ikaba birimokubiigikayo imodoka yaburinrimbo kugenda iruhande rwo hepfoze y'abanyabuguru ndetse yateye ibiti kandi kuruhande rwa ruguru hari undimumotari kugenda udatwa umugenzi akaba yayambayeje ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Imodoka itwara abagenzi iri mu bwoko bwa bisi ifite ibara ry'umweru ndetse na movi, ya kampani bita interinasiyonari iri mu muhanda wa kaburimbo iri kuzamuka, iburyo bw'iyo modoka hari indi modoka y'ubwoko bwa kwasiteri, itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru imbere yizo modoka hari umunyamaguru uri kugenda.

Moto itwaye umugenzi, umumotari yambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ingofero y'ubwirinzi ifite ibara ry'umweru, umugenzi yambaye ingofero y'ubwirinzi ifite ibara ry'umutuku, umuhanda ufite imbago zisize irange ry'umweru n'umukara, hagati mu muhanda hateye ibiti byitwa imikindo ndetse hirya hari imodoka irimo iragenda.

Imodoka iri mubwoko bwa Bisi itwara abagenzi irimu kaburimbo iri kugenda, imbere yayo hari abamotari batatu umwe ahetsa umugenzi undi nta mugenzi ahetse, abamotari bombi bambaye amajire y'umuhondo, iyo bisi iriho alubumu y'umuhanzi Bruce Melodie.

Imodoka nziza y'umukara iri ikagenda mu muhanda wa kaburimbo, kandi ifite imirongo y'umweru ku ruhande, hagati ikaba iciyemo umuhondo, ku rundi ruhande hakaba hari indabyo nyinshi n'ibiti byinshi by'icyatsi, ku ruhande hari inzira yabagenzi.

Agace kahariwe guparikwamo n'abamotari, abamotari bose bahaparitse abenshi muri bo bambaye amajire, ndetse abenshi bambaye amajire afite ibara ry'umuhondo, ndetse n'ubururu bwerurutse. Uw'imbere yambaye ingofero imukingira ifite ibara ry'umutuku. Hirya hari umu motari wambaye ijire ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'ikijuju.

Imodoka nini itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru n'icyatsi iri mu muhanda wakaburimbo iri kugenda, ibumoso bw'iyo modoka hari umunyamaguru wambaye imyenda y'imikara ari kuvugira kuri terefone, hepfo y'iyo modoka hateye ibiti ndetse iyo modoka ku ruhande rwayo hari ruhurura itwara amazi.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite imbago z'umweru n'umukara, urimo moto ebyiri ziri kugenda. Kuri moto hicayeho abamotari bambaye amajire y'umuhondo ndetse n'ubururu. Umumotari wimbere ahetse umugenzi, uw'inyuma nta mugenzi ahetse. Inyuma yabo hari imodoka ifite ibara ry'umutuku. Ku ruhande rw'ibumoso hari ruhurura itwara amazi.

Akamodoka gato k'umweru gafite inyuma hasa n'umutuku, gatwara imizigo kaba kagenda mu muhanda wa kaburimbo, impande yaho hakaba hari inzu nini cyane y'umuturirwa, ikaba igeretse inyuma hakaba hari kugenda imodoka y'umweru.

Imodoka ifite ibara ry'umweru itwara imizigo iri mu bwoko bw'igikamyo iri mu muhanda wa kaburimbo iri kugenda. Uwicaye mu modoka mo imbere yambaye umupira wa kaki ndetse ni umugabo ari kureba hanze. Ku ruhande rwo hepfo hari inzira y'abanyamaguru ndetse hari umuhungu uri gutambuka wambaye umupira w'ubururu bwerurutse, uri inyuma afite umufuka w'umweru. Ku ruhande rwa ruguru naho hari inzira y'amanyamaguru ndetse hari n'igikuta cyubakishijwe amabuye.

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi ntoya ikora akazi ko gutwara abagenzi mu muhanda; ifite ibara ry'umweru n'umuhondo iraparitse mu muhanda uzamuka; kuruhande rwayo hari ibyuma bifite ibara ry'umutuku bya bariyeri; iyo modoka iparitse mu kanya kahawe guparikwamo imodoka.

Imodoka ya rukururana itwawe n'umushoferi wambaye umwenda w'ibara ry'ubururu, uri mumuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti by'icyatsi, ndetse harimo n'umunyegare.

Urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu mu mujyi, ku ruhande hakaba hari inzu y'icyapa kinini cy'umweru gishushanyijeho ibintu by'ubururu, hasi hakaba haparitse imodoka ndetse hakaba hegeye uyu umuhanda w'umukara wa kaburimbo.

Moto itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu iparitse mu muhanda wa kaburimbo , umuhanda wa kaburimbo ukaba ushaje. kuruhande rwo hirya hari igikuta cyubakishaga amabuye ndetse hateye n'ibiti hakaba hicaye abagabo babiri, umwe muri bo yambaye inkweto z'umweru ndetse n'umupira w' ubururu, ku ruhande rwo hirya hari undi mugabo uhicaye wambaye ishati ya karokaro

Mu muhanda mu muhanda n'ijoro, imodoka ziri kugenda ndetse kuhande hahagaze umugabo uri kugenda ahagarika imodoka abantu bagatambuka bakambuka umuhanda kurundi ruhande hakurya hahagaze undi mu mugabo nawe utegereje kwambuka ,hari imodoka z'ubururu n'imodoka z'umweru.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo, ugiye mu byerekezo byinshi, hakaba harimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, aho imodoka ziri kuzamuka muri zo hakaba harimo imodoka y'ubururu, hakaba na moto ziri guturirika hasi, ndetse n'izindi modoka ziri kunjya mu k indi kerekezo, ku ruhande rw'umuhanda hari ibiti byinshi.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'icyatsi ikaba itwaye imizigo hejuru y'iyo mizigo hatwikirijweho shitingi y'ibara ry'ubururu, imihanda ya kaburimbo iri kugenda ku ruhande rwo hepfo hari inzira y'abanyamaguru ndetse no ku ruhande rwa ruguru hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rw'ibumoso hari ruhurura itwara amazi ayajyana mu bindi bice ku ruhande rwo hepfo hari umunyamaguru uri kugenda wambaye ikanzu y'ubururu ndetse n'ikanzu k'umukara.

Abasore babiri bari gusunika ingorofani y'icyuma, ingorofani ikaba iriho imizigo, imizigo ikaba iri mu mufuka w'umweru, ingorofani ikaba ikururwa n'amapine abiri ikaba ifite amabara y'umukara. Abasore babiri umwe yambaye umupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi undi uri imbere yambaye iby'umukara.

Imodoka iri mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'umweru iri mu muhanda wa kaburimbo iri kugenda iyo modoka itwikije shitingi ry'ubururu ndetse n'imigozi iziritse iyo mizigo, iruhande rwa ruguru hari inzuira y'abanyamaguru ndetse hari n'umuhanda mu muhanda harimo moto shatu ndetse umumotari w'inyuma yambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Umuhanda wa kaburimo urimo umumotari uhetse umugenzi, uwo mumotari yambaye ijire ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, uwo mugenzi ndetse n'umumotara bamabaye ingofero z'ubwirinzi zifite ibara ry'umuhondo, umumotari ari kumanuka, hirya y'iwe hari igikamyo kiri kuzamuka gifite ibara ry'umweru ndeste na shitingi y'ubururu, imbere y'icyo gikamyo hari umunyonzi uri kuzamuka.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Imodoka yo mu bwoko bw bw'ivatiri ikora akazi ko gutwara abagenzi, isize ibara ry'umweru n'umuhondo iri imuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'ibumoso hari abagore babiri bari gutambuka bambaye utuntu mu mutwe, hirya yabo hari umutaka wa emutiyene ucururizwamo amayinite.

Imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo ifite ibara ry'umweru n'ubururu iri muri kaburimbo, iri kugenda, iyo modoka inyuma ipakiyemo amatiyo y'amazi, ku ruhande hari abamotari bahetse abagenzi na bo bari kugenda. Inyuma yabo hari umugenziz ufite amagi ku igare uwo munyonzi akaba yambaye ingofero.

Imodoka itwara abagenzi, imodoka ntoya ifite amabara y'umweru harimo n'amabara y'umuhondo iruhande rwayo hari moto itwaye abantu babiri hariho umuntu uyitwaye n'umuntu batwaye, iruhande hakaba hari igare.

Iduka ricuruza ibikorerwa mu rwanda ndetse n'indi mitako ikozwe mu bugeni, imbere y'iryo duka hari umugabo wicaye wambaye umupira w'umweru, ndetse no hepfoye hari umugore wicaye wambaye ipantaro y' umukara imbere yiryo duka hubakishijwe amabave kuruhande rwayo hateye ubusitani.

I Kanombe mu karere ka Kicukiro, mu mujyi wa Kigali urahabona inzu ikodeshwa ku mafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amanyarwanda buri kwezi, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo n'ibindi bibiri by'ubwogero.

Abana babiri batwaye amagare inyuma yabo hari undi mugabo utwaye igare ku ruhande rw'ibumoso hari abasore babiri bahagaze, umwe yambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara ndetse ari kureba muri terefone, hirya ye hari umusore uhahagaze wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi. Inyuma y'abana batwaye hateye ibiti.

Ikibuga cy'umukino w'amaboko, Uyu mukino w'amaboko ukaba ufite izina mururimi rwamahanga rwitwa basketball ,icyo kibuga inyuma yaho hateye ibiti ndetse inyuma yibyo biti hari urupangu kuri iki kibuga kikaba kiri mu mabara y'umutuku , umweru ndetse n'umukara.

Uyu ni umwe mu mihanda ishobora kuba igaragara mu Rwanda, aho bagaragaza agace imodoka nk'izitwaye abagenzi cyangwa se n'izitwara imizigo zishobora kuba zahagarara umwanya muto mu gihe cy'akaruhuko.

Igikoresho gitegeka abakoresha umuhanda ndetse kikabereka abagiye kuwukoresha, kiri kwerekana ko abanyamaguru bari kwambuka ndetse bageze ku isegonda rya makumyabiri. Umunyamaguru ndetse n'amasegonda biri mu ibara ry'icyatsi iki gikoresho ki iburyo bw'umuhanda.

Icyapa cyerekana yuko aho hantu imodoka zitemerewe kuhagarara, iki cyapa gifite ishusho ya kare aho hagati yayo harimo uruziga ruciyemo umurongo, uruziga rukaba rusa umutuku rurimo n'imodoka isa umukara.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kikaba kimenyesha, cyangwa kivuga y’ uko imbere hari abakozi bari kubaka umuhanda, amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ritsindagiye aho yanditswe hafite ibara ry'umutuku, icyo cyapa kiba gifite impande enye zingana.

Icyapa kiri mu bwoko bwa mpande eshatu cyerekana aho abanyamaguru bambukira mu muhanda icyo cyapa gishushanyijemo umunyamaguru urimombuka ndetse hasi hashushanyijeho imirongo y'umukara n'umweru icyo cyapa cyampande eshatu kiri m'amabara atukura, umukara ndetse n'umweru.

Umuntu uhetse ibikapu unyu nkaho yaje mu bukerarugendo ahagaze mu busitani buri hagati mu muhanda, hejuru y'uwo muntu hari icyapa kivuga ngo murakaza neza mu Rwanda iruhande rw'busitani hariho imihanda yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda iruhande rw'uwo muhanda hari ruhurura z'amazi ndetse n'amazu.

Mu nzu y'ubwiteganyirize mu kwivuza ya ara esi esibi hicayemo abantu benshi batandukanye, higanjemo abakozi b'iki kigo ndetse n'abaturage baje kwaka serivise.

Icyapa k'icyatsi kerekana icyerekezo cy'umurenge wa Giheke, inyuma yacyo hari ikindi cyapa cy'umweru munsi hateye ibyatsi ku ruhande rw'ibumoso hari igiti n'icyapa k'ikigina, ku ruhande na none hari umuhanda urimo umugabo.

Ikimenyetso cy'umutuku gifite umurongo w'umukara inyuma, hagakurikira akantu k'umweru, hagakurikiraho akandi k'umutuku, hagati hari ibara ry'umweru, hakaba haciyemo n'akandi karongo k'umutuku, n'akandi kaberamye k'umukara, kiba kiri inyuma y'igikuta cy'umukara n'umweru.

Icyapa cy'abantu bari gukora umuhanda kirimo amabara y'umuhondo n'umukara, ku ruhande hakaba hari ibara ry'umutuku, gishushanyijemo imirongo y'umukara, n'umuntu gashushanyije ku muntu uri guca muri iyo mirongo.

Inzu yo mu bwoko bwa etage ifite amagorofa ane, ikoreramo ubucuruzi butandukanye. Hakaba harimo n'ishami rya banki ya ekwiti. Ikaba ikoreramo ikigo gifatata amatike y'indege, ikigo gitanga ubwishingizi. Mbere y'iyo gorofa hari abamotari ndetse nabandi bantu bahagaze hanaparitse n'imodoka.

Hariba umuhanda wa kaburimbo ufite imirongo y'umweru uri kugendamo imodoka y'umukara ifite n'amapine y'umukara ibintu byose by'umukara kuruhande hari amazu yubatswe n'ibyapa biri mu mabara y'umutuku.

Inzu yo mu bwoko bwa etage ika ifite amagorofa atatu iyo nzu ikaba isize ibara ry'ivu, iyo nzu ikaba ikorerwamo ibikorwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo nk'ubucuruzi ubuto n'buciriritse, imbere y'iyo nzu haparitse amamodoka menshi ndetse hari n'abagenzi n'abamotari, imbere y'iyo nzu kandi n'izo modoka hari umuhanda wa kaburimbo.

Abantu bahagaze mu muhanda bari kugenda b'abahungu ndetse n'umukobwa umwe wambaye ishati y'ubururu bagaze ku muryango w'abantu bacura imfunguzo, ku ruhande rw'ibumoso hari umumotari waparitse bameze nkaho baje gufata ibya mugitondo.

Umuntu uri mu muhanda utwaye ikinyabiziga kizwi ku izina rya moto, uyu muntu iruhande rw'ibumoso hari inzira y'abanyamaguru irimo abanyamaguru batatu barimo baragenda, inyuma y'uyu muntu hari inzu y'amagorofa igeretse aho izwi ku'bwoko bw'izina rya etaje.

Inzu zikorwarwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, inzu ibanza ikorerwamo abacuruzi bucuruza amata ndetse ikaba isize irange ry'ubururu. Inzu yo hirya ikorerwamo ubucuruzi bwo gucuruza imyenda haba iy'abagabo ndetse n'iy'abagore, imbere yayo hari imyenda imanitse ku gikoresho cyabugenewe, imbere y'ayo mazu hubatswe amapave.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa moto kiri mu muhanda wa kaburimbo kiri kugenda umuhanda uri kumanuka iyo moto yicayeho umumotari wambaye ingofero y'ubwirinzi ifite ibara ry'umutuku, hirya y'iyo moto hari inzu y'igorofa ifite ibara rya kaki ikorerwamo ubucuruzi buto n'ubuciriritse.

Inzu yo mubwo bwoko bwa etaje ikorerwamo na banki ya Kigali ishami rya giporoso, imbere y'iyo nzu hari abamotari baparitse ndetse ku ruhande rw'buryo hepfo, hari umugabo uri kuzamuka wambaye ishati y'umuhondo hejuru y'iyo nzu hariho icyapa cyamamaza moto zo mu bwoko bwa sipira.

Umuhanda wa kaburimbo usa nkaho wubatswe kera barimo abasore bari kugenda, abasore bageze nko mu icumi. Ku ruhande rw'ibumoso hari akazu ka emutiyene ko gutangiramo serivise, iruhande rw'iburyo hari amazu akorerwamo ubucuruzi buto n'ubuciriritse, imbere y'ayo mazu hari ipoto ritanga amashanyarazi.

Inzu yo mubwoko bwa etaje itangirwamo serivisi ikorerwamo ibigo nka ekwiti rapidi sapoti fayinanshi eya tiketi afade kopedu banke rimitedi imbere y'iyo nzu haparitse imodoka harimo igikamyo cyo'ubwoko bwa huho gifite iba ry'umuhondo.

Inzu iri mu bwoko bwa etage ikaba ifite amagorofa ane iyo nzu ikaba ifite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye bikorerwamo harimo ibito n'ibiciriritse imbere y'iyo nzu hari imodoka nyinshi zaparitse, abamotari ndetse n'abagenzi bari kugenda imbere yayo kandi hari umuntu uri kwambuka wambaye ikanzu y'ubururu wari umugore imbere yiyo nzu kandi hari umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda, umuhanda ufite ibyerekezo bibiri ukaba ufitemo imirongo y'umweru igiye ishushanyije mu muhanda n'inzira y'abagenzi ku ruhande, ku ruhande hakaba hayeye ibiti by'icyatsi birebire n'ibindi bigufi n'amazu ku ruhande y'imiturirwa.

Ihuriro ry'imihanda igi itandukanye, muri iyi mihanda hirya ya'aho hari amashyamba ndetse hari abantu bahatuye. Hino yaho hari ruhurura y'amazi ndetse iruhande rw'iyo ruhurura naho hari ishyamba, iburyo bw'uyu muhanda hari inzira y'abanyamaguru.

Inzu yo mu bwoko bwa etaje isakajwe amabati y'umutuku ifite ibara ry'icyatsi, ikorerwamo ubucuruzi n'ibigo byinshi harimo mirike zone foromaside jene carenja mediya rimitedi; iyo nzu iri ku muhanda wa kaburimbo ifite ipoto mbere yayo.

Ni umuhanda munini cyane, ni umuhanda w'umukara wa kaburimbo ufite ibiti byinshi by'imikindo, bigiye biteye impanda y'umuhanda, ku ruhande hariho inzira y'abanyamaguru ndetse hari n'abamotari bari kugenda mu muhanda mu byerekezo bitandukanye by'umuhanda.

Ikinyabiziga cyakije amatara kiri mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti byinshi cyane; hari icyapa cyerekana ibyerekezo by'umuhanda ndetse uwo muhanda ufite amatara ari kwaka ibara ry'umuhondo.

Umuhanda w'ibitata ufite akantu ku ruhande gateyemo ibyatsi ugenda ukinwinjira mu muhanda w'umukara wa kaburimbo ku ruhande hakaba hari ibiti bitwara amashanyarazi ndetse n'amazu menshi afite asakaye afite amabati atukura.

Abanyamaguru babiri barimo barambuka umuhanda bameze nkaho bavuye mu kazi umunyamaguru w'inyuma afite igare hirya y'abonyeyamaguru hari umuhanda wa kaburimbo hirya y'umuhanda hari ruhurura hirya ya ruhurura hari amazu y'ubwubatsi abantu basanzwe babamo.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye ibitoya n'ibini, ku ruhande hakaba hari inzira igenderwamo n'abanyamaguru, yubakishijwe amabuye y'isima akaba n'akandi kazi k'ubururu ku ruhande n'ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo uca hagati y'ishyamba ku ruhande rw'ibumoso hari ruhurura itwara amazi ndetse ifite n'icyiraro abantu baca hejuru kuruhande rw'iburyo hari inzira y'abanyamaguru ndetse igiye iriho amatara yo ku muhanda afite ibara ry'umweru mu nzira y'abanyamaguru harimo umuntu uri kugenda ndetse muri kaburimbo hari umumotari uri kugenda uheretse umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo umuhanda w'umukara, ugiye ufite imirongo y'umweru iciye muri uwo muhanda, imodoka ziri kugenda mu muhanda, imodoka ifite amatara y'umutuku, inyuma hakaba n'ikinyamitende cy'abagenzi.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye, umuhanda umanuka, umuhanda uzamuka ndetse n'umuhanda uva i ruhande ukinjira mu muhanda mugari, umuhanda umanuka harimo imodoka ebyiri imodoka y'imbere irimo irarasa ubururu, imbere y'iyo modoka hari umu motari utwaye umugenzi imbere y'imodoka y'ubururu hari isaha irangira abanyamaguru.

Imihanda ibiri y'akaburimbo umuhanda uraza undi uragenda, umuhanda ugenda urimo abamotari batatu babirambaye amajiri y'umuhondo bicaye kuri moto umuhanda ugenda iruhande rwo hepfo hateye ibiti umuhanda uza iruhande rwa ruguru hari igikuta kiba kishyura amabuye ndetse giteyeho ibiti, umuhanda ufite imbago zubakishijwe umweru n'umukara.

Umumotari utambaye ijire ari kumanuka hirya yiwe hari umumotari wambaye ijiri na kasike, ijiri isa umuhondo n'ubururu, hirya umumotari wambaye ijiri hateye ibiti ndetse hari n'itara ryo ku muhanda, iyi akaba ari ifoto yafashwe na terefone yo mu bwoko bwa samusanga itariki umunani z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na gatanu.

Umuhanda w'ibitaka utubatswe urimo imodoka zirimo ziragenda, iburyo bw'uwo muhanda hari ruhurura itwara amazi, hirya y'iyo ruhurura hari igipangu ndetse kuri icyo gipangu hariho ibiti, ibumoso bw'uwo muhanda hariho indabyo zifite ibara ritukura ndetse n'umuhondo.

Ahantu hasa nk'ahantu abantu basohokera bisa nk'akabari cyangwa se ahantu abantu bajya kwiyakirira bakaba bahafatiramo amafunguro ya saa sita, hari mu ibara ry'umutuku, hariho intebe z'umutuku ndetse n'imitaka yayo iratukura, birasa nk'ahantu mu gipangu hakinjiramo n'imodoka z'abantu baba baje kubagana.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo. Harimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, harimo imodoka imwe y'umweru n'indi modoka y'umutuku ndetse hari n'abantu bahagaze ku ruhande. Impande y'umuhanda hari ibiti by'amatara biri kwakamo amatara no hejuru hakaba hari indi nzu hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo uriho ibinyabiziga bitandukanye harimo moto yitwaye nu mumotari wambaye ijire ry'umuhondo ndetse n'ubururu akaba yambaye ingofero y'ubwirinzi ifite ibara r'itukura kuruhande rwo hepfo hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro yikoboyi mugabo ahagaze imbere y'igare hepfo yuho mugabo hari abandi ba banyohanzi benshi.

Umuhanda nyabagendwa urimo imodoka, amapikipiki, ndetse n'abanyamaguru, hagati mu muhanda harimo ubusitani buteyemo ibyatsi hasi ndetse n'imikindo, bashinzemo n'amatara yo ku muhanda, hirya y'umuhanda hari ibiti ndetse n'imikido.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka imwe yo mu bwoko bwa ravafo, iri kugenda ndetse n'abamotari batatu bari kuza bambaye amakasike, kuruhande rwo hepfo hateye ibiti ndetse hari na ruhururu ku ruhande rwa ruguru hari abantu bari kugenda muri kaburimbo ndetse hateye n'amatara yo mu muhanda.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo w'umukara, ukaba ugiye urimo imironko ishushanyijemo, hakaba imirongo y'umweru ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru, ku rundi ruhande hakurya hari umujyi witaruye urimo n'ibiti byinshi by'icyatsi.

Reba umuhanda wa kaburimbo w'umukara uririmo imirongo y'umweru, ku ruhande hari agakuta k'amabuye gaparitseho igare munsi y'igare harimo inzira itwara amazi yambutse hakurya y'umuhanda, ku ruhande rw'umuhanda harimo ibiti biri mu mushyamba ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite imbago ziteranye ry'umweru n'umukara umuhanda ukaba bafite n'ahantu imodoka ziparika by'a gato zigahita zikomeza urugendo, ku kuruhande rw'iburyo hateye ubusitani ndetse n'icyapa kivuga ko ntabwo nta guhagarara by'igihe kirekire, imbere hari ikimodoka kiri kugenda kikaba kiri mu bwoko bw'igikamyo ku ruhande rw'iyomodoka hateye ubusitani.